Abantu biganjemo abagabo bahuriye ahantu, bari kuganira ku ngamba bafata kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima bw'ikiremwa muntu.

Iki ni igikoresho cyifashishwa kwa muganga bari gutanga ubufasha bw'umwuka ari wo twita ogisijeni ku barwayi baba bafite ikibazo cy'ubuhumekero barembye.

Umuganga uri gusobanurira umugore uburyo ki agomba kwita ku mwana we, bityo akagira imikurire myiza, ari kubimwereka yifashishije icyapa afite mu ntoki ze.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima, ari gukingira umugore uri aha amuteye urushinge, abona ko umugore yarutinye kubera ko yashinyirije.

Umwana uri gukaraba intoki akaba yarasobanukiwe akamaro ko kukaraba ko birinda umwanda kandi umwanda ushobora gutera indwara zitandukanye.

Ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu bashushanyijeho n'igishushanyo cy'inzoka ndetse n'umubumbe w'isi.

Unicef akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abantu. Ni byiza rero ko uyu muryango ubaho kuko abana benshi baboneramo amahirwe.

Umugabo wishimye waje kuvoma amazi arishimira iki gikorwa Leta yabagejejeho cyo kubaha amazi meza kandi asukuye afite isuku, ni byiza rero kuvoma amazi meza kandi tukanayateka igihe tugiye kuya.

Abantu bahurijwe hamwe n'inama bakaba bari kwiga ku ngamba bafata kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima. Harimo abazungu ndetse n'abirabura, hari n'umuyobozi uhagaze wicaye ku ntebe imbere yabo.

Abantu batandukanye harimo abana, harimo n'umugore wambaye amarinete, urabona ko bishimye, bahanze amaso imbere nta kibazo cy'ubuzima bafite.

Ni kwa muganga hari abantu batandukanye bahagaze bafata ifoto, bakaba bari bagiye kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha ku buzima bwabo.

Umusore uri gukaraba intoki kuri robine, hakaba hari n'indobo yaje kuvomeramo amazi yo kwifashisha gukora isuku, yaba iy'umubiri ndetse n'imyambaro ye kugira ngo yirinde umwanda.

Aba ni abana batoya biga mu mashuri abanza bakaba bari gukaraba ndetse ubona ko ari umuco batoje kugira ngo barwanye indwara ziterwa n'umwanda.

Abantu benshi bahuriye ahantu, bakaba bahujwe no kwiga ku ngamba zafatwa kugira ngo barinde ubuzima bwabo, hari idarapo ry'u Rwanda riri imbere, hari imodoka, hari n'amatente yicawemo n'abayobozi.

Abaganga babihuguriwe ndetse bakabihererwa n'impamyabumenyi, bari kuvura umwana ubona ko bari kumwitaho mu buryo bushoboka bwose kugira ngo bamufashe akire.

Igikorwa remezo leta yegereje abaturage, akaba ari ivomero rusange. Abana babiri baje kuvoma umwe akaba ari gupompa, undi ateruye akajerekani ngo amazi ajyemo.

Umuganga w'inzobere akaba arimo arakingira umugore hano ku rutugu kugira ngo bimurinde indwara zitandukanye zishobora kumufata bitewe n'uko atahawe urukingo.

Abantu bari kwifotoza, bavuye mu cyumba cy'inama, bari bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, bakaba bahisemo gufata ifoto y'urwibutso kugira ngo izajye ibibutsa uyu munsi.

Abantu benshi bateraniye ahantu, bahujwe n'igikorwa cyo kwiga ku buzima, ndetse n'uburyo bakomeza gusigasira ubuzima. Inyuma yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icyapa.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu cyumba, bakaba bari mu nama bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, hari n'impapuro, hari n'amadarapo atandukanye, ni byiza rero kwiga ku buzima kuko ubuzima muri iyi minsi buri mu kaga.

Umuganga uri gutanga ikinini cya vitamine ku bana batoya abona ko yasamuye umwana ari kukimuhereza kugira ngo bimurinde kurwaragurika.

Abaganga b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima, hari umuganga ufite agakoresho gapima uko ubuzima bw'umuntu bumeze, akaba ari gupima umurwayi hari n'abandi na bo baje gusaba serivisi zijyanye n'ubuzima.

Umuganga w'inzobere mu gukingira abantu akaba ari gutera urushinge umwana kugira ngo amurinde kuzandura izindi ndwara zishobora kumufata ahazaza.

Umusore uri gukaraba intoki mu rwego rwo kwirinda umwanda, umwana akaba amufatiye igikoresho ariko kumusukira amazi ku ntoki kugira ngo arusheho kunoza isuku yo mu ntoki.

Igikorwa remezo leta yubakiye abaturage, akaba ari ivomo rusange aho abantu bajya kuvoma, bakabona amazi meza kandi amazi afite isuku bifashisha barwanya umwanda kandi banateka.

Igikorwa remezo leta y'u Rwanda yegereje abaturage hakaba hari abantu benshi baje kuvoma amazi yo kwifashisha mu gukora isuku kugira ngo birinde umwanda.

Muganga wambaye ibikoresho byabugenewe by'akazi, akaba akoze k'umuntu arimubaza niba ntakibazo afite kugira ngo abe yamuha ubufasha.

Abaganga b'inzobere mu kwita ku buzima bw'abantu, bafite imiti mu ntoki bifashisha batanga ubufasha ku barwayi.

Amazi ni meza, amazi ni isuku. Umuntu ukoresha amazi meza aba afite n'ubuzima bwiza. Ni byiza rero kuvoma amazi meza gihe cyo kuyanywa tukayateka.

Iri ni ivomero rusange abantu benshi baje kuvoma amazi bakaba bashaka amazi yo kujya gutekesha ndetse no gukora isuku y'umubiri ndetse n'iy'imyambaro yabo n'aho batuye.

Abana b'abakobwa babiri bamaze kuvoma amazi ku ivomero rusange, ubona ko umwe ari gukorera undi, bakaba bashaka amazi yo kujya kwifashisha mu gukora isuku.

Umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima ari gusuzuma abantu bari aha abafasha kugira ngo bahabwe serivisi baje bakeneye. Ni byiza ko igihe umeze nabi wagana kwa muganga bakagufasha.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'abantu bicaye ku ntebe, akaba ari kubaganiriza ku bijyanye nubu ubuzima kugira ngo bakomeze kubusigasira kandi bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni kwa muganga, abantu baje kwaka serivise z'ubuzima, bicaye ku ntebe bategereje kuzihabwa, urabona ko ari ahantu heza kandi hafite isuku.

Abaganga ubona ko bishimye cyane bari gukoma amashyi, bakaba bishimiye umushyitsi bakiriye ushinzwe iby'ubuzima.

Abantu batandukanye bambaye udupfukamunwa bakaba bari mu nama, bari kwiga ku ngamba bafata kugira ngo basigasire ubuzima burusheho gutera imbere.

Abaganga bahuriye ahantu mu cyumba urabona ko bafashe ifoto y'urwibutso, bishimiye n'undi mushya wajemo w'umuzungu abona ko bahuje urugwiro.

Umuganga wabihuguriwe ari gusuzuma umwana muto uri aha kugira ngo arebe niba nta kibazo afite amenye n'uko yamufasha kugira ngo arinde ubuzima bwe.

Umwana uri gukaraba intoki yasobanukiwe neza akamaro ko gukaraba intoki amenya neza ko birinda indwara ziterwa n'umwanda wo kudakaraba intoki ni byiza ko natwe twabikora kugirango turinde imibiri yacu.

Umuganga w'inzobere mu gupima indwara zigiye zitandukanye, arimo arapima abarwayi bari aha kugira ngo amenye ikibazo bafite, amenya aho ahera abaha ubufasha baje bakeneye.

Abanyeshuri bafashe ibikombe mu ntoki bari kunywa amazi, akaba ari amazi yabegerejwe asukuye, bakayanywa kugira ngo amabiri yabo ikore neza.

Ni kwa muganga, hari intebe cyangwa se udutanda abarwayi baryamaho igihe abaganga bari kubasuzuma, hari n'imashini zisuzuma harebwa ikibazo umurwayi yaba afite.

Abagabo bahuriye mucyumba cy'inama bari kugeza ijambo ku bantu bari imbere, bari kwiga ku buryo babungabunga ubuzima mu gihugu cya Sudani y'epfo.

Igikorwa remezo Leta yubakiye abaturage. Akaba ari robine cyangwa se ivomero bakunze kwita ikiyapani. Abantu bavomaho amazi bifashisha bakora isuku kugira nggo ubuzima bwabo bugende neza.

Abantu bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi, amaterefone, amakayi bari kwandikamo, bakaba bahurijwe hamwe no kwiga ku buryo baguma gusigasira ubuzima bw'ikiremwa muntu.

Umuganga w'inzobere mu by'ubuzima akaba ari gusuzuma umukobwa ura aha kugira ngo arebe ikibazo afite abashe kumwitahote amuhe n'imiti niba afite ikibazo.

Igikorwa Remezo Leta yubakiye abaturage. Hari umwana wateze akabido ku mugezi, hari umugabo wafunguye amazi uri kumufasha kuvoma, aya mazi akaba yifashishwa mu bikorwa bitandukanye by'isuku.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, barimo bariga uburyo barwanya icyorezo cya mabaga, kibangamiye isi, bagashakira hamwe umuti w' uburyo bakirandura.

Abantu batandukanye bahagaze ahantu, hakaba harimo abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya ari mu ibara ry'ubururu, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ni kwa muganga, ahahuriye abantu benshi, baje gukingiza abana babo, babona ko bicaye bategereje umuganga, uza kubaha ubufasha.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari gukaraba intoki bakoresheje isabune n'amazi meza nk'uko babitojwe na mwarimu wabo.

Umwana uri kuvoma amazi mu mugende, urabona ko amazi ari kuvoma atari meza. Si byiza gukoresha amazi yanduye kuko ishobora gutuma wandura indwara zitandukanye.

Umuganga w'inzobere mu kwita ku buzima bw'abantu, yafashe agakoresho kabugenewe agashyira ku mwana kugira ngo yumve uko umutima we utera amenya n'uko yamufasha.

Igikorwa remezo leta yegereje abaturage akaba ari umugezi, abantu baza kuvoma aha bakabona amazi meza bajya kwifashisha mu bikorwa byabo bitandukanye.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Abanyeshuri bakaba bari kuvoma amazi mu ndobo yo kujya gukora isuku mu mashuri bigamo ndetse n'aho bicara.

Ni ivomero rusange leta y'u rwanda yegereje abaturage kugira bahabwe amazi meza kandi afite isuku bibarinde indwara ziterwa n'umwanda w'amazi mabi.

Umukobwa cyangwa se umugore uri kuvoma mazi ku ivomero ubona ko ari amazi adasa neza ashobora kumuteza ibibazo, si byiza gukoresha aya mazi mu bikorwa by'isuku.

Umwana uri kuvoma amazi akaba ari amazi meza aturutse muri robine, amazi yifashishwa mu gukora isuku yaba iy'imyambaro ndetse n'iy'umubiri bikaturinda indwara z'umwanda.

Umukobwa uri kuvoma amazi gusa aya mazi si meza urabona ko aho aturuka n'aho atari heza, si byiza kuyakoresha mu bijyanye n'isuku kuko ashobora gutera indwara z'umwanda.

Umuganga w'inzobere mu buvuzi ari gukingira umwana ku rutugu kugira ngo amurinde indwara zishobora kumufata ejo hazaza.

Abajyanama b'ubuzima, bitabiriye inama, bicaye ku ntebe, bamwe bahanga amaso imbere, bari gukurikira ijambo bari kugezwaho, kugira ngo bamenye ko bazajya bita ku buzima bw'abantu.

Umugabo uhagaze, akaba ari umuyobozi, akaba ari gutanga imbwirwaruhame ndetse anabwira abantu bateraniye aho uburyo bagomba kurinda ubuzima bwabo ndetse n'uburyo bagomba gutera inkunga igikorwa cy'ubuzima.

Ni mu bitaro kwa muganga abarwayi batandukanye bambaye imyenda y'akazi, bari kwita ku murwayi uri aha, ubona ko arembye cyane. Ku ruhande hari n'ibindi bikoresho, n'imashini bifashisha.

Abaganga babihuguriwe, hano hari umuganga, umugabo n'umugore, bakaba bari gufata amaraso, abarwayi bari aha babasuzuma ngo bamenye ikibazo baba bafite, babahe ubufasha.

Umwana bahagaritse ku munzani, bari kumupima kugira ngo barebe ibiro bye, barebe niba nta kibazo cy'imirire mibi afite bityo abashe kwitabwaho.

Inama yahuje abantu bo mu nzego zigiye zitandukanye z'ubuzima, bakaba bari kuganira banarebera hamwe ingamba bashyiraho mu rwego rwo gusigasira ubuzima bw'abantu.

Umugabo uri gukingira abana uyu mugabo akaba ari umuganga, urabona ko hari abantu benshi bitabiriye iki gikorwa cyo gukingira abana babo kugira ngo basigasire ubuzima bwabo.

Abantu bahuriye ahantu hamwe mu nama, inama yari igamije kwiga ku buzima, nyuma y'inama bahisemo gufata ifoto y'urwibutso kugirango bajye bibuka uyu munsi.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu, urabona ko bari kwifotoza, harimo abajyanama b'ubuzima bambaye impuzankano z'amajiri zirimo ibara ry'icyatsi.

Unicef akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ukanarengera ubuzima bw'abana, aba bantu nabo bakaba bafashe icyapa cyayo, ubona ko ari abakozi bayo.

Umugore w'umuganga ahagaze imbere y'abantu benshi bicaye mu ihema, akaba ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima ababwira uburyo ki bagomba kubwitaho bakabusigasira.

Umuganga, uhagaze hagati, mu mbaga y'abantu akaba ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima, anababwira uburyo bakwita ku buzima bwabo, bukarushaho kugenda neza.

Umujyanama w'ubuzima ari gusuzuma abaza uko umwana ameze kugira ngo amenye aho ahera amuha imiti. Akaba ari kumubaza ibibazo bitandukanye.

Abantu batandukanye bahagaze, higanjemo ab'igitsina gore, harimo abadamu babiri, batatu bambaye utujiri, akaba ari abajyanama b'ubuzima, bari kuganiriza abandi, ku bijyanye n'ubuzima.

Mu ishuri umwana wamanitse akaboko arashaka kubaza ikibazo umwarimu ,bakaba bari mu ishuri bari guhabwa ubumenyi kugira ngo barusheho kunguka byinshi bigiye bitandukanye.

Umugore ufite igikoresho bifashisha basuzuma akaba ari gusuzuma aba bantu areba neza niba nta kibazo bafitena ubona ko hari n'abandi hirya nabo bategereje ko babasuzuma.

abana bari gukaraba basobanukiwe neza banatozwa ko kugira isuku ari ingenzi niyo mpamvu bari gukaraba, ni byiza ko natwe tugira umuco wo gutoza abana gukaraba kugirango birinde indwara z'umwanda.

Umwana mutoya wikoreye ijerekani y'umuryango bita UNICEF, akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana ku isi hose.

Ikigo nderabuzima cya Girubuzima, abaturage ndetse n'abaganga bose bafashe ifoto ubona ko harimo n'umuzungu. Bakaba bishimiye ko ubuvuzi bwabegerejwe.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu gikorwa kijyanye n'ubuzima hakaba hari abajyanama bishimye bari gukoma amashyi bamaze kuganirizwa n'umuganga w'inzobere wabihuguriwe.

Umwana uri kunywa amazi akoresheje ibiganza byombi bibiri, andi ari kuyavomera mu ndobo kugira ngo amufashe gukora isuku yaba iy'umubiri n'iy'imyambaro, bimurinde indwara z'umwanda.

Abantu benshi batandukanye bishimiye akana kavutse, urabona ko bari gukoma mu mashyi rwose baranezerewe, barishimye ntawe bitashimishije uri hanona.

Umugore uvuye kuvoma amazi ku ivomero, ayatwaye mu ndobo akaba agiye gukora isuku, kugira ngo ubuzima bwe butajya habi.

Abantu nyuma yo gukora inama ijyanye n'ubuzima bagiye mukanya ko kuruhuka bari kubyina kugira ngo baruhuke nyuma baze gukomeza bameze neza.

Umugore we gukora isuku y'ibikoresho bye, akaba ari ku ivomero ahetse n'umwana, afite indobo y'umutuku, y'umuhondo, y'ubururu hakurya hari ibiti birebire nigicu cyiza.

Igikorwa remezo leta yubakiye abaturage akaba ari ivomero rusange, ibi bibafasha kubona amazi meza bifashisha mu gukora isuku yaba iy'umubiri, iy'abay'imyambaro ikabarinda n'indwara z'umwanda.

Abantu batandukanye bahagaze bambaye ingofero z'umweru imipira yubururu inyuma yabo hari icyapa imipira bambaye yanditseho ngo baho neza.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu, arimo arabaganiriza uburyo agiye kubaha serivisi n'uburyo bagiye gukurikirana, biragaragara ko ari umuganga.

Umwana uri kuvoma amazi agiye kwifashisha akaraba intoki kugira arwanye indwara ziterwa n'umwanda. Ni byiza ko natwe twabikora twirinda izi ndwara ziterwa n'umwanda wo kudakaraba.

Abantu ubona ko atari benshi cyane bahuriye ahantu mu cyumba bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ingamba zafatwa ngo ubuzima burusheho gusigasirwa neza kandi burusheho kugenda neza.

Unicef akaba ari umuryango mpuzamahanga wita ku burenganzira no ku buzima bw'abana ku isi hose, hakaba hari abantu bari kuyamamaza, bambaye n'imyenda iri mu ibara ry'ubururu.

Umusore ufite ikibazo, ahagaze ahantu ha wenyine arigunze, ni byiza ko yaganirizwa kugira ngo abashe kumva atekanye.

Umugabo uhagaze imbere, iyi akaba ari inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye, uyu mugabo uhagaze imbere ari kubagezaho ijambo abaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Umunsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, ukaba warabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu, ibi akaba ari igikorwa kiba buri mwaka.

Abantu bari kwifotoza, bahurijwe hamwe n'igikorwa cyo kwiga ku buzima n'uburyo bakomeza kubusigasira, bakaba nyuma y'inyiama bakoze, bahisemo gufata ifoto y'urwibutso.

Abantu bahuriye abantu mu cyumba k'inama, bari kuganira biga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kugira ngo barebere hamwe uburyo barwanya ikibazo k'indwara zo mu mutwe.

Ni abantu batatu, bicaye bahujwe n'igikorwa cy'ubuzima bakaba bari kuganira, barebera hamwe uko ubuzima bwo mu mutwe bwifashe.

Umusaza ubona ko ari uwa kera akuzemo rwose, afite icumu arimo arahamiriza, ibi bikunze kugaragaza umuco nyarwanda, umusaza kandi urabona ko nta kibazo afite.

Abantu benshi batandukanye harimo abana b'abakobwa bakiri bato n'abasore harimo n'umugore w'umuzungu. Bahurijwe hamwe n'ibijyanye n'ubuzima no kurebera hamwe ingamba bafata kugira ubuzima bakomeze kubusigasira.

Umusore ufite ikibazo, umugore mu iruhande akaba amufashe ku rutugu ari kumuhumuriza. Ni ibyiza ko abantu bafite ikibazo begerwa bakaganirizwa bityo bakagirwa n'inama.

Umugore uri kumwe n'abana babiri umwe aramuhetse, akaba atetse igikoma cy'amata kugirango aze kugiha aba bana barusheho gutera imbere mu mikurire.

Abantu bahuriye ahantu bari kuganirizwa ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari abaganga baje kubafasha no kubaganiriza ku bijyanye n'ubwo buzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi bahuriye ahantu mu cyumba, hakaba harimo umugabo, harimo umuzungu, harimo abana bato bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, bakaba bari bahujwe n'ibijyanye n'ubuzima.

Abantu bari mu bishushanyo, munsi hakaba hari ijambo ryanditseho, risobanuye mu kinyarwanda ikigo gishinzwe kwita ku buzima bujyanye no mu mutwe.

Umugabo, wirabura amarira yashotse ku matama, urabona ko afite ikibazo, akeneye umuntu wamuganiriza kugira ngo amuruhure, aganire atekane amere neza.

Ni icyumba cyahuje abantu benshi baje mu nama, ni umugore uri gutanga ijambo uhagaze imbere y'abantu bose, ubona ko abandi nabo bafite amakayi bari kwandika, imbere yabo hateretse n'amacupa y'amazi.

Umukobwa wishimye cyane wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'ikoboyi yambaye umukufi mu ijositi ,urabona ko nta kibazo na kimwe afite akaba ariyo mpamvu arimo araseka.

Inama yahurije hamwe abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abandi bantu, akaba ari inama y'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda bakunze kwita RBC.

Umujyanama w'ubuzima umaze gusuzuma umwana, amusuzuma malariya ari kwereka nyina igisubizo kivuye muri iryo suzuma, amwereka niba ayirwaye cyangwa se atayirwaye.

Umwana mutoya w'umusore, ufite ikibazo cyo mu mutwe, nta myenda n'imwe yambaye, bamuziritse akaguru urabona ko yigunze. Gusa si byiza kumufungirana ahubwo byaruta bakamwohereza ku bitaro akitabwaho.

Abantu bateraniye ahantu, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, hari umugore uri imbere uri kubaganiriza, imbere hari n'amagambo yanditse. Bakaba bari kwiga ku buzima n'uburyo babusigasira.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, yicaye yigunze yambaye imyambaro yacikaguritse, ni ibyiza ko yagezwa ku bitaro by'abasazi cyangwa by'abarwayi bo mu mutwe kugira ngo afashwe.

Umukobwa wishimye uri guseka urabona ko ntaki kibazo na kimwe afite yambaye ishati k'umutuku ndetse n'agapira k'ubururu.

Umugore wishimye uri guseka, yambaye ikigo cy'itumanaho bita emutiyeni urabona ko nta kibazo afite ari ahantu mu iduka, hasa n'ahijimyemo.

Ni umuganga ndetse n'ababyeyi babiri bafite abana, bari kubaganiriza bababwira uburyo bagomba kwita ku bana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi babarinde n'indwara.

Abagabo babiri ubona ko umwe afite ikibazo cyo mu mutwe, umusatsi wamwereyeho, imyenda yamucikiyeho, ahanye ikiganza n'undi arasa naho agiye kumuha ubufasha.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho, arigunze cyane afite ikibazo, urabona ko akeneye ubufasha, ni byiza ko umubonye wamufasha kugira ngo ikibazo cye gikemuke.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu mu cyumba, bari kwiga ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo bakomeze kubabusigasira, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho UNICEF.

Umwana mutoya wambaye inifomo y'ishuri, akaba ari akabiswi, urabona ko ntakibazo afite arishimye, aranezerewe, ari guseka, aricaye, aratekanye.

Umugabo uri ukora isuku y'amenyo ye, yifashishije akuma kabugenewe nako ni akadodo. Kakaba gasukura amenyo kandi agasa neza.

Ni kwa muganga mu cyumba gisa, neza icyumba gifite isuku harimo intebe abarwayi baryamaho igihe barimo kubasuzuma, urabona ko hasi hariamakaro harimo n'irangi ry'mweru.

Ubuzima bujyanye n'amenyo ni byiza ko usigasirwa, tugakorera isuku amenyo yacu kugira ngo arusheho kumera neza kandi twirinde indwara ijyanye n'umwanda.

ni kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye, harimo intinga harimo intebe abarwayi baryamaho, igihe bari gusuzumwa, harimo n'imashini ndetse n'ameza.

Umugabo wasamye, akaba ari gusukura amenyo ye yifashishije agakoresho kabugenewe bita akadodo, kakaba kayasukura neza kandi kakayarinda umwanda ushobora kwinjiramo.

Umwana uri gusukura amenyo ye yifashishije agakoresho kabugenewe, akaba ari kuyasukura kugira ngo yirinde indwara z'umwanda zishobora guterwa no kudasukura amenyo.

Umugore ndetse n'umwana muto bari gukora isuku y'amenyo, bifashishije uburaso ndetse na cologati, basobanukiwe neza akamaro ko gukora isuku y'amenyo, kuko birinda indwara zo mu kanwa.

Abaganga b'inzobere mu buvuzi bw'amenyo. Bari gusuzuma abantu bari aha, bareba niba nta kibazo bafite mu kanwa, abo barwayi cyangwa se abo bantu na bo bambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi yanditseho tubiteho.

Umugabo uri gusukura amenyo ye yifashishije akadodo kabugenewe kugira ngo yirinde indwara iterwa n'umwanda cyangwa se kudakora isuku ihagije yo mu kanwa.

Amenyo asa neza y'urwererane rwose uyu musore kugira ngo ake akaba yarakoresheje aka kadodo yashyize mu memyo kakaba kayasukura kandi agacya neza cyane kakarinda n'indwara z'umwanda.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo yashyize agakoresho kabugenewe mu kanwa kugira ngo arebe aho uyu mwana afite ikibazo, abashe kumufasha amuhe ubuvuzi bw'amenyo.

Umugabo uri gukora isuku y'amenyo ye yifashishije akadodo kabugenewe kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zishobora guterwa n'umwanda cyangwa se isuku nkeya.

Umuganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, akaba ari gukora ubushakashatsi bujyanye n'amenyo, anareba uburyo amenyo yitabwaho mu kuyavura kugira ngo nawe azabashe gufasha abandi barwayi.

Utu ni udukoresho bashyira mu menyo, tukabasha kuyasukura neza, iyo ugashyizemo kakamaramo igihe amenyo yawe aba asa neza cyane rwose.

Muganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo arimo arasukura amenyo y'uyu musore yifashishije udukoresho twabugenewe abona ko ari ibintu byiza cyane.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo, yambaye imyenda y'akazi ndetse yafashe n'igikoresho cyabugenewe, arimo gusuzuma umurwayi indwara yaba arwaye kugira ngo amufashe.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo, yashyize agakoresho mu kanwa k'umurwayi urwaye amenyo kugira ngo amuhe ubufasha ndetse amenye n'ikibazo yaba arwaye bityo amwiteho.

Umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'amenyo, umurwayi ari kumwereka iryinyo rifite ikibazo kugira ngo abashe kuba yamufasha amuvure cyangwa se amuhe irindi ryinyo risimbura ryagize ikibazo.

Abana bishimye cyane bari ahantu mu cyumba bakaba ari abanyeshuri bafite umuti w'amenyo wifashishwa mu kwiborosa kugira ngo turwanye indwara ziterwa n'umwanda wo kutiborota cyangwa kudasukura amenyo.

Umusore uri gusukura amenyo ye yifashishije agakoresho kabugenewe akadodo, akaba ari kuyasukura kugira ngo ayarinde indwara ishobora guterwa n'umwanda.

Gusukura amenyo ni ingenzi, aba na bo rero basobanukiwe akamaro ko gusukura amenyo, bakaba bari gukoresha akadodo kabugenewe mu gusukura amenyo kugirango bibafashe kubarinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda wo mu kanwa.

Umukobwa wicaye ahantu heza, yafashe indorerwamo ari kureba amenyo ye ko ari meza, kugira ngo arusheho kuyakorera isuku kandi ayarinde umwanda.

Umuganga w'inzobere mu kuvura amenyo, yafashe udukoresho twabugenewe ari gusuzuma ikibazo uyu mukobwa yaba afite areba ko iryinyo rye ritameze neza ngo amufashe.

Nikwa muganga harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abantu zireba uburwayi bafite, harimo intebe zigorora abarwayi, harimo amakaro, harimo n'utubati.

Ni kwa muganga ahari imashini yifashishwa mu gusuzuma indwara z'abantu, hari intebe, hari n'ibindi bikoresho, hari intsinga byose bikaba byifashishwa n'umuganga.

Umukobwa uri gukora isuku y'amenyo yamaze gusobanukirwa neza ko isuku y'amenyo ari ingenzi kuko birinda indwara zitandukanye, zifata mu kanwa bitewe n'umwanda.

Umugabo uri gusukura amenyo ye yifashishije akuma kabugenewe urabona ko amenyo ye rwose asa neza nta kibazo afite, umugabo akaba afite n'ubwanwa bwinshi ku kananwa ke.

Umuganga w'inzobere wabihuguriwe akanabihererwa impamyabumenyi, arimo arasuzuma umwana mu kanwa areba ko nta kibazo afite, kugira abone uko amufasha.

Umukobwa uri gukora isuku yo mu menyo akoresheje uburoso na korogati, asobanukiwe neza akamaro ko kugira isuku yo mu kanwa kuko birinda indwara zigiye zitandukanye ziterwa no kutagira isuku yo mu kanwa.

Umwana mutoya wicaye mu ntebe afite uburoso bw'amenyo arimo ariborosa, urabona ko yabitojwe akiri muto kandi akazabikorana bikazamufasha mu kurwanya indwara ziterwa n'umwanda cyane cyane kutagira isuku yo mu kanwa.

Aba bavuye muri siporo cyangwa se igikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barusheho gusigasira ubuzima bwabo, urabona ko bameze neza rwose nta kibazo na kimwe bafite.

Abantu bateraniye ahantu bakaba bari mu nama, hari umugabo uri imbere yabo wicaye ku ntebe ari kubabaganiriza ku bintu bigiye bitandukanye.

Umugabo w'umwirabura ndetse n'umuzungu w'umugore, bari kumwe bahuje ibiganza, bari guseka, urabona ko nta kibazo na kimwe bafite rwose kibabangamiye.

Umusaza ugiye kunywa ibinini, umukecuru umuri iruhande ari kumwerekera imiti agomba gufata kugira ngo atarenza urugero bikaba byamugiraho ingaruka.

Umusaza bari kuhagira, hari umuntu uri inyuma ye ari kumufasha gukora isuku y'umubiri kugirango amurinde indwara ziterwa n'umwanda wo kudakaraba ubuzima bwe burushijeho kugenda neza.

Umuryango wishimye cyane rwose, urabona ko banezerewe, urabona ko bashyize hamwe bakaba nta kibazo na kimwe bafite nk'uko bigaragara, harimo n'umusaza ukuze n'umukecuru n'abana bato.

Abagabo babiri bari mu gikorwa cya siporo, bari kwiruka bafite n'uducupa twa'amazi mu ntoki bari kugenda banywa, iki gikorwa akaba ari cyiza kuko siporro ari ingenzi ku buzima bwacu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yashinze inkokora, ari gutera pompage. Yasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ariyo mpamvu ari kuyikora.

Umugabo ukuzemo ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri we umere neza. Iruhande rwe hari umutoza we uri kumwerekera uko agomba gukora iyi myitozo ngororamubiri kugira ngo bitamugiraho ingaruka.

Umugabo ukuzemo ndetse n'umusore ukiri muto imbere yabo hari ibikombe bibatereretse ku meza umusaza akaba ari gusomera umusore agakuru karyoshye abona ko bishimye ari useka.

Umugabo ukuzemo, akaba yicaye ari kumwe n'undi muntu utagaragara neza, barimo barakina igisoro, urabona ko bishimye, batekanye, nta kibazo bafite.

Abasaza babiri bateraniye ahantu, bambaye neza, bambaye imikenyero, bambaye n'ingofero z'urugara, urabona ko nta kibazo bafite kandi bitaweho cyane niyo mpamvu bameze neza.

Umusaza n'umukecuru bari kureba muri telefone, imbere hari ikirahuri cy'amazi, hari n'uducupa turimo imiti n'igipapuro, umukecuru afashe mu kiganza.

Umugabo ukuzemo, hakaba hari umukobwa uri kumwerekera amufashe akaboko, amufasha kumanuka kuri esikariye kugira ngo itagira ikibazo.

Umukecuru udashaje cyane hari umukobwa uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri amugorora amaboko kugira ngo imitsi ye idahinamirana.

Abantu bitabiriye inama rusange, ubona ko harimo abakuze, ni byiza rero ko yaba abakuze n'abato bitabira inama kugira ngo bungukiremo byinshi kandi byiza.

Umugabo ndetse n'umugore imbere yabo hateretse imbuto ndetse n ibyo kurya, umugore akaba gusukira umugabo ji kugira ngo ayinywe, bityo ubuzima bwe burusheho kumera neza kubera yafashe intungamubiri zihagije.

Umugabo ukuzemo akabateruye akana gato bari gukina barishimye baranezerewe nta kibazo bafite uyu mwana nawe afite agapupe mu ntoki ubona ko ari papa n'umwana.

Umurwayi urembye cyane, aryamye ku gitanda, umuganga amuri iruhande iruhande rw'umurwayi hari n'imashini yifashishwa isuzuma uko ubuzima bwe bumeze.

Ni umugabo ufite ikibazo, urabona ko yifashe ku gahanga, akaba abangamiwe cyangwa se hari ibintu bitari kugenda neza. Ni byiza ko wamwegera ukamuganiriza ukabasha kumenya ikibazo afite ukamufasha.

Umusaza n'umukecuru, umugabo akaba ari kwereka umukecuru imiti yandikiwe na muganga, kugira ngo ajye ayifatira ku gihe kandi amwibutsa igihe yibagiwe kuyifata.

Umusaza ukuzemo akaba yicaye mu kagare k'abantu bafite ikibazo cy'imvune. Cyangwa se ikibazo cy'ingingo z'umubiri, inyuma ye hari umukobwa uri kumutwara muri ako kagare, gusa urabona ko bishimye cyane.

Abantu batandukanye, harimo abakuze, harimo abato, abana, urabona ko bishimye banezerewe, ni umuryango rwose ubona ko nta kibazo na kimwe ufite.

Umugabo ukuzemo ndetse n'umukobwa ubona ko akiri muto, barishimye bari guseka barahoberanye urabona ko nta kibazo na kimwe bafite rwose baranezerewe.

Umusaza n'umukecuru bari gufata ifunguro ryuzuyemo intungamubiri urabona ko bishimye banezerewe hari n'kirahuri cy'amazi nayo bari kunywa byose bikaba bifasha umubiri kumera neza.

Umugabo bari gukoresha imyitozo ngororamubiri, bari kumugorora amaboko ye, hari umushinzwe uri kumwereka uko bikorwa kugira ngo imitsi ye igororoke

Umuganga w'inzobere akaba ari gusuzuma umugabo wicaye ku ntebe, kugira ngo arebe niba nta kibazo afite bityo amenye n'uko yamufasha.

Umugabo n'umugore bakuzemo bafite imvi, umugore akaba amuhaye ikirahuri cy'amazi kugira ngo ayanywe, bityo afashe umubiri we kumera neza ndetse no guhumeka neza.

Umugabo bari gukoresha imyitozo ngororamubiri, akaba afashe akuma gakomeza imitsi y'amaboko akakanayigorora, umuganga ari kumwerekera uko azajya abikora kandi bikagenda neza.

Umukobwa uri gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, nyuma yuko asobanukiwe ko ari ingirakamaro kandi bifasha abantu. Hirya ye hari ibimera ndetse n'ikirere gisa umweru.

Ni abakecuru babiri bafashe udukoni, bari kugenda mu muhanda urabona ko bakuze rwose. Biragaragara ko ariko bakomeye kuko babasha kwitabwaho.

Umuganga w'inzobere mu gusuzuma ubuzima bw'abantu no kubitaho ari gusuzuma umugabo uri aha kugirango ngo arebe ikibazo afite abashe kuba yamuha ubufasha amwiteho.

Umugabo ndetse n'umukobwa, umukobwa akaba ari kwitaba kuri uyu mugabo, ubona ko umugabo akuzemo cyane akeneye kwitabwaho bihagije, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza.

Umugabo wagize ikibazo akaba aryamye hasi, abaganga bakaba bazanye ibikoresho byo kumufasha kugira barebe ko bamwitaho akabasha kuzanzamuka akamera neza.

Abantu batandukanye, bafashe icyapa cyanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere tuyisuzumishe hakiri kare, kuko ivurwa igakira ni icyapa cya arabisi.

Abantu bahagaze bari kwifotoza harimo abazungu n'abirabura, bakaba baganiraga ku bijyanye n'ingamba zafatwa kugira ngo basigasire ubuzima bw'ikiremwamuntu.

Aha bakaba batwereka ibimenyetso biranga indwara ya diyabete, harimo kumagaragira, kugira icyaka, kunyaragurika cyane, kumva unaniwe, gutakaza ibiro.

Inama yahurije hamwe abantu bo mu nzego zitandukanye bari kwiga ku bijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo bakomeza gusigasira ubuzima.

Abantu benshi biganjemo abagore. Bakaba bahurijwe hamwe no kurebera hamwe uburyo abayobozi b'abagore na bo batezwa imbere bagahabwa umwanya.

Ni kwa muganga haje abantu bakeneye ubufasha ku bijyanye n'ubuzima, muganga uri imbere akaba yambaye ibikoresho by'akazi, akaba agiye gusuzuma abarwayi amenya ikibazo bafite.

Umugabo uhagaze imbere, iyi akaba ari inama, bakaba bari kuganira ku buzima ndetse n'uburyo basigasira ubuzima, bityo bukarushaho gutera imbere.

Inama yahuje abantu batandukanye bari kurebera hamwe ingamba zafatwa kugira ngo barwanye icyorezo cya virusi bita Mabaga bityo bagihashye kireke kwica abantu benshi.

Amoko y'imbuto atandukanye ibitunguru, karoti, inyanya, amaronji byose bikaba bitanga intungamubiri zitunga umubiri w'umuntu ni byiza kubikoresha kugira umubiri wacu ugende umere neza.

Umugabo w'umuzungu ufashe icyapa cyanditseho manki poxi vasine axisesi nawu avuga ko urukingo rw'icyorezo cya manki poxi rwabonetse ubu.

Iyi shusho iri kutwereka buryo ki tugomba kwirinda sida kuko sida igihari, haba mu Rwanda ndetse n'ahandi, kandi iki akaba ari icyorezo kitavurwa ngo gikire, ni byiza rero ko tuyirinda.

Ni abantu baje gutanga ubufasha ku bijyanye n'ubuzima, bari ahantu bafite udukapu turimo imiti, bakaba baje gukingira aba bantu bari aha ndetse no kubaha izindi serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inama yahuje abantu harimo n'ikigo cya UN, bakaba bari kwiga uburyo barinda ubuzima ndetse bagatera inkunga bigo by'ubuzima kugira ngo ubuzima bw'abantu bukomeze gusigasirwa.

Uru ni urukingo bita covakisi, akaba ari urukingo rwakoreshwaga mu gukingira icyorezo cya covid cumi n'icyenda, akaba ariho n'umuryango wita ku bana bita Unicef.

Abamansera bari gusuhuza minisitiri w'ubuzima, urabona ko bari guhana ibiganza bagiye gufatanya mu gushyira imbaraga mu buzima kugira ngo burusheho gutera imbere.

Inzobere mu buvuzi, zikaba ziri gusuzuma abantu, birasa naho ari mu nkambi, ubona ko ari ahantu hatari amazu.

Ni mu bitaro kwa muganga, hakaba hari ibitanda abarwayi baryamaho igihe barembye, hari n'imashini zifashishwa bapima uko imitima yabo iri gutera.

Isange wani sitopu senta ni ikigo cyangwa se ishami rifasha abantu bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina uramutse nawe warigiriwe wagana yo bakagufasha.

Ni mu cyumba kwa muganga hari abarwayi bari gusuzuma imiti bareba ko itarengeje igihe kugira ngo bayihe abarwayi bambaye impuzankano mu ibara ry'umweru.

Inyubako nziza cyane y'igorofa isa neza ikikijwe n'ubusitani, iyi nyubako ikaba ari ibitaro aho abantu bagana bagahabwa ubufasha ku ndwara cyangwa se izindi serivisi zijyanye n'ubuzima.

Aha ni kwa muganga mu cyumba ubona ko batanga serivisi z'ubuvuzi bw'amaso, hakaba harimo intebe abantu bicaraho mu gihe bategereje ubufasha bwa muganga.

Inyubako nziza akaba ari ibitaro byubatse neza kandi byubatswe mu buryo bw'igorofa abantu baganayo bagahabwa serivisi z'ubuzima kandi bagataha bishimye.

Ni kwa muganga ahantu hasa neza cyane rwose harimo, amabara atandukanye icyatsi, umuhondo, ubururu, umweru, orange, harimo n'intebe abaje hano bashaka serivise bicaraho mu gihe bategereje ababitaho.

Ni ibitaro cyangwa se ikigo nderabuzima, kikaba cyubatse ahantu heza, hasa neza, hari n'ubusitani, hanze hakaba hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Abarwayi barembye cyangwa se bakeneye serivisi z'ubuzima baganayo, bakabafasha.

Umuganga uri gukoresha imashini, akaba ari mu bushakashatsi bujyanye n'uko yakwita ku buzima bw'abantu cyane cyane abarwayi.

Etajeri irimo udukarito dutandukanye ndetse n'uducupa, utu dukarito n'uducupa hakaba harimo imiti igiye itandukanye ivura indwara zigiye zitandukanye, akaba ari muri farumasi.

Ni ibitaro ubona ko bikiri bishya biri ahantu hari ubusitani ibi ibitaro abarwayi baganayo bagahabwa ubufasha ku ndwara zigiye zitandukanye ndetse na serivisi zijyanye n'ubuzima.

Aha ni ku bitaro hari inzu y'ababyeyi babyariramo ikaba igaragara ku gihande cyo hirya, hari n'ubusitani iyi nzu isize amarange y'umweru, isakaje amabati y'ubururu, ikirere kirakeye cyane.

Ni kwa muganga mu cyumba, harimo umurwayi w'umugabo uryamye ku gitanda, hari imashini iri gupima aho ubuzima bwe bugeze. Harimo n'umuganga uri gutunganya imiti, harimo igikoresho gipima, kitanga umwuka wa ogisigene.

Ikigo nderabuzima, abantu benshi bahagannye bashaka serivise z'ubuzima harimo abagabo, harimo abagore harimo n'abandi barindiriye.

Aha ni kwa muganga, hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaganga, hari ibitande abarwayi baryamaho, imashini zipima abarwayi uko bameze.

Umuganga uri kuganiriza umugore, muganga akaba afite agakoresho gapima uko umutima atera ndetse n'umuvuduko w'amaraso, urabona ko hirya hari insina ndetse n'inzu icyubakwa.

Ni kwa muganga mu cyumba cyiza cyane gisize amarange y'umweru, hasi hari amakaro, hejuru hari amatara ari kwaka, abarwayi bagana aha mu rwego rwo guhabwa serivise z'ubuzima.

Ni ibitaro harimo ibitanda abarwayi baryamaho hagaragara hano ibitanda bitatu hari n'amarido akingiriza kugira ngo hatabonerana hose.

Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, ikigo nderabuzima cyubatswe mu nyubako ya etaje, kikaba giha serivisi abantu bakeneye cyane cyane izijyanye n'ubuzima.

Inzobere mu buvuzi akaba ari umuganga uri kuvura umurwayi urembeye ku gitanda abona ko ari kumushyiramo serumu kugira ngo amaraso ataza kubana make uyu murwayi.

Iyi ni farumasi ikaba ari inzu icururizwamo imiti igiye itandukanye ivura indwara ukeneye ubufasha bujyanye n'ubuzima waganayo bakagufasha kandi ugakira.

Ni kwa muganga, aho ababyeyi batwite bajya cyangwa se ababyeyi babyaye baba bari, bakaba bajyayo bagahabwa ubufasha bakabyara abana bazima bameze neza kuko baba bitaweho.

Iyi ni inyubako akaba ari inyubako yo kwa muganga, aho abantu barembye ndetse n'abakeneye serivise z'ubuzima bagana bagahabwa ubufasha.

Inzobere mu buvuzi, akaba ari umuganga uri gusuzuma uko ubuzima bw'umwana buhagaze yifashishije ibikoresho byabugenewe ahabwa na minisiteri y'ubuzima.

Ni kwa muganga inyubako y'igorofa igeretse kabirikabari abantu batandukanye bambaye imyenda yiganje mu ibara ry'ubururu aha kandi haganayo n'abarwayi bakeneye guhabwa serivisi z'ubuzima.

Ibitaro byiza cyane byubatse mu bwoko bw'igorofa cyangwa se etaje. Akaba ari ibitaro bya byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abarwayi baba barwaye.

Igikoresho dusanga mu bitaro kwa muganga, iki gikoresho kikaba cyifashishwa mu gusuzuma imibiri y'abantu aha bagushyiramo maze kikerekana indwara zose urwaye muganga akamenya aho ahera agufasha.

Imashini cyangwa se sikaneri yifashishwa basuzuma ubuzima bw'umuntu, aha bashyiramo umuntu hanyuma imashini ikerekana indwara arwaye, abaganga bakabona aho bahera bafasha umurwayi.

Inzu yitwa farumasi ikaba icururizwamo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, iyi miti kandi ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Ibitaro byubatse ahantu heza bifite isuku. Ibi bitaro abantu baganayo bagahabwa ubufasha bujyanye n'indwara cyangwa se izindi serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inzu y'ababyeyi hanze yayo hari abaforomo cyangwa se ababyaza, bakaba bambaye impuzankano z'akazizi, aha ngaha umubyeyi utwite ajyayo agafashwa.

Inyubako nziza cyane ifite isuku, baratwereka ku ruhande aho abaforomo bakorera, ukeneye ubufasha wagenda bakagufasha kandi ugataha wishimye.

Ni kwa muganga ahakorerwa isuzumwa ry'imiti bareba ko igikora neza. Aba baganga bambaye imyenda y'akazi ndetse bamwe bambaye n'udupfukamunwa n'uturindantoki.

Abaganga b'inzobere mu by'ubuvuzi, bari kuvura umugabo uri aha, hari umuganga umwe wamushyizeho igikoresho cyo kumusuzuma kugira ngo amenye ikibazo afite amenye naho aho ahera amufasha.

Ibi akaba ari ibitaro Byashyira bikaba byubatse mu buryo bwa etaje, abantu baganayo bagahabwa ubufasha ku ndwara barwaye cyangwa se bagahabwa serivisi zitandukanye z'ubuzima.

Inyubako nziza cyane, akaba ari inyubako y'ibitaro byita ku buvuzi bw'amaso, uramutse ufite ikibazo cy'amaso wagana aha bakagufasha bityo ugakira.

Ni mu cyumba kwa muganga hakaba harimo umuganga wambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru, hakaba hari n'ameza ateretsesho ibikoresho. Akaba ari kureba mu gikoresho kibikwamo imiti kugira ngo akuremo iyo kwifashisha.

Aha ni kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye, harimo imashini zisuzuma abarwayi, harimo ibitanda abarwayi baryamaho bari guhabwa ubufasha kugira ngo bavurwe.

Ivuriro rya Regasi kirinike hakaba hari abaforomo ubona ko bafunze ibipfunsi, bari kwifotoza bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu bemeza ko bagomba kwita ku buzima bw'abantu.

Ibi bitaro mu cyumba kimwe kirimo intebe zitandukanye, harimo mudasobwa, harimo utubati, aha ukaba wahagana ugahabwa serivisi ukeneye zijyanye n'ubuzima.

Umuganga w'inzobere ari gusuzuma abagore bari aha areba ko nta kibazo cy'umuvuduko w'amaraso bafite kugira ngo abe yabagira inama y'uko bagomba kwitwara.

Ibi ni ibitaro bya Kigina. Ibitaro abantu barembye n'abakeneye ubufasha ku buzima baganayo bakabasha guhabwa serivise bakeneye.

Aha ni mu cyumba ahakorerwa siporo ngororamubiri, hari utwuma baterura mu maboko, hari n'ibindi byuma bitandukanye bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri.

Ibi ni ibitaro bifasha abantu, akaba ari ibitaro bya Regasi. Aha abarwayi cyangwa se abakeneye serivisi z'ubuzim, baganayo bagahabwa ubufasha.

Umuganga wabihuguriwe kandi akabihererwa impamyabumenyi afite agakoresho gapima k'umutima utera afite na tabuleti mu ntoki ari kugenda mu muhanda yishimye aseka.

Inzu y'igorofa yubatse neza, akaba ari ivuriro cyangwa se farumasi, abantu baganayo gahabwa ubufasha bujyanye n'ubuzima.

Abantu batandukanye bahuriye ahantu mu cyumba, bari kwiga ku buryo bakomeza gusigasira ubuzima bw'umuntu kugira ngo burusheho gutera imbere ndetse no kwitabwaho.

Ni icyumba kiri ahantu hakikijwe n'ibiti, kikaba kirimo ibikoresho bifashisha bakora imyitozo ngororamubiri, hari ibyo birukaho, hari ibyo baterura nka aritere, hari n'ibyo banyonga n'amaguru.

Iyi ni inyubako, ikaba icururizwamo imiti igiye itandukanye, ikaba yitwa Tageti, aha ufite ikibazo cy'ubuzima waganayo bakagufasha, ugahabwa ubufasha cyangwa se ubutabazi bwihuse.

Ibi ni ibitaro, ibitaro biri ahantu heza hari ubusitani abantu bakaba baganayo bagahabwa ubufasha bujyanye n'indwara baba barwaye bakavurwa bagakira.

Umuganga wicaye ku ntebe ari mu cyumba cyagenewe kwakiriramo abarwayi urabona ko abyishimiye kandi yishimiye n'akazi ke yambaye itaburiya iri mw'ibara ry'umweru.

Ni mu cyumba kwa muganga, hari imashini isuzuma abarwayi, hari igitanda abarwayi baryamaho bari kubasuzuma, abarwayi n'abandi bakeneye serivisi z'ubuzima baganayo bagafashwa.

Mu bitaro kwa muganga, harimo umurwayi urembye cyane, aryamye ku gitanda cyabugenewe cy'abarwayi, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga kugira ngo asuzume uburwayi.

Iyi ni inzu cyangwa se inyubako bita farumasi, ikaba icururizwamo imiti y'amoko agiye atandukanye ivura indwara zitandukanye. Ukeneye ubufasha bujyanye n'ubuzima waganayo ugahabwa ubufasha.

Farumasi ikaba irimo imiti itandukanye hari ipfunyitse mu dupapuro hari: ipfunyitse mu ducupa, hari ipfunyitse mu dukarito, iyi miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Kwa muganga mu cyumba abarwayi barwariramo harimo ibitanda bigiye bitandukanye abarwayi baryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho bifashisha igihe bari muri icyo cyumba.

Umusaza batwaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bw'ingingo ubona ko atwawe n'umwana muto amujyanye muri iyi nyubako kugira ngo avurwe ni kwa muganga.

Ni kwa muganga, harimo intebe nziza cyane z'imifariso, aha akaba ari aho abaje gusaba serivisi z'ubuzima bicara mu gihe bategereje abaganga bo kubitaho.

Ni kwa muganga mu cyumba gisa neza cyane rwose, gifite amabara icyatsi, ubururu umutuku, oranje, harimo intebe abaje aho bicaraho bategereje guhabwa ubufasha.

Abantu bateraniye ahantu mu cyumba, imbere yabo hari isakazamashusho bahanze amaso, hari amakuru ari kunyuraho ajyanye n'ubuzima bakaba bari kuyareba.

Ni kwa muganga hari ibikoresho bitandukanye muri iki cyumba, hari udutanda abarwayi baryamaho igihe bari kubasuzuma ndetse n'imashini yifashishwa basuzuma abarwayi bareba ibibazo bafite.

Ni icyuma cyangwa sikanali, ikaba isangwa kwa muganga, aho bashyiramo umuntu urwaye, imashini ikamusuzuma, bakabareba ikibazo afite, muganga akamenya aho ahera afasha umurwayi.

Umuganga w'inzobere mu buvuzi yambaye ibikoresho by'akazi, ashyize agakoresho mu gutwi ari gupima kugira ngo yumve uko umurwayi ameze agire uko amufasha.

Ni icyumba cyo kwa muganga, hakaba harimo ibitanda bitandukanye abarwayi baryamaho igihe barembye cyane, aha ufite ikibazo waganayo kijyanye n'ubuzima bakagufasha.

Ni kwa muganga icyumba kirimo imashini zisuzuma abarwayi, igitanda abarwayi baryamaho, intebe abantu bicaraho, aha waganayo uramutse ukeneye serivisi zijyanye n'ubuzima ugafashwa.

Inyubako y'igorofa akaba ari inyubako y ibitaro cyangwa se ivuriro bita ku buzima bw'abantu ufite ikibazo waganayo bakagufasha kuko batanga serivisi z'ubu ubuzima.

Ni kwa muganga hari abantu baryamye ku dutanda bakaba bari kubatera inkingo kugira ngo babarinde indwara zitandukanye zishobora kubibasira bitewe n'uko batakingiwe.

Ni kwa muganga harimo igitanda cy'abarwayi harimo imashini zisuzuma abarwayi harimo utubati harimo udutebe harimo amatara ari kwaka ibi byose birasa neza kandi bifite isuku.

Ni kwa muganga ubona ari inyubako nziza cyane, hari ubusitani bwiza, hari abantu bavuyeyo guhabwa serivisi, abandi nabo baganayo bashaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ni icyumba bakiriramo abantu b'indembe barembye cyane aha ngaha akaba ariho bakirirwa. Kirasa neza kirasukuye kandi gifite irange ry'umweru n'amakaro y'umweru.

Ibi ni ibitaro bya Kabgayi, akaba ari ibitaro biherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Muhanga. Abantu baganayo bagahabwa serivisi ku ndwara barwaye ndetse na serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ni kwa muganga hari imashini zifashishwa, urabona ko iki ari icyumba bavuriramo amaso kuko harimo ishusho y'amaso. Aha uramutse urwaye indwara y'amaso waganayo muganga akagufasha.

Ibyuma byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, akenshi ubisanga kwa muganga bikaba byifashishwa n'abantu bagiye batandukanye yaba abana urubyiruko n'abakuze babikeneye.

Ni kwa muganga, hari umwana uri kugendera mu kagare kifashishwa n'abafite ibibazo by'ingingo z'umubiri. Aha kwa muganga haganayo n'abandi barwayi bafite ibibazo by'ubuzima.

Ni kwa muganga, icyumba kirimo ibitanda abarwayi baryamaho, kirimo ibikoresho bakoresha basuzuma abarwayi, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha.

Ni kwa muganga, icyumba gisa neza gifite isuku, harimo intebe abaje bagana aha bicaramo, mu gihe bategereje abaganga bo kubitaho.

ibitaro by'akarere ka Kyarugenge, bikaba ari ibitaro biri ahantu heza bifite isuku abarwayi baganayo bagahabwa ubufasha bujyanye n'indwara ndetse na serivisi zijyanye n'ubuzima.

Ibi ni ibitaro bya Kabgayi, bikaba biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Muhanga, aho abarwayi bagana bagahabwa serivisi z'ubuzima bakitabwaho.

Ni kwa muganga hari ibitaro byubatse neza, hari icyapa, hari umusekirite, hari n'abantu benshi baje gusaba serivise zijyanye n'ubuzima aho ngaho.

Aya ni amaraso apfunyitse mu dushashi twabugenewe, akaba ari amaraso aba yatanzwe n'abantu, kugira ngo ajye kuvura abandi barwayi bafite amaraso make.

Ibitaro biri ahantu heza ubona ko bikiri bishya rwose, hari n'ubusitani butarakura, abarwayi cyangwa se abandi bantu bakeneye serivisi z'ubuzima baganayo bagahabwa ubufasha.

Iyi nyubako ni iy'ikigo nderabuzima cya Rwerere, akaba ari aho abantu bajya bagiye gushaka ubufasha, ku bijyanye n'ubuzima.

Ni mu cyumba kwa muganga harimo abarwayi barembye cyane, bari kuri bomboni. Urabona ko barembye, gusa ubwo bageze kwa muganga baravurwa kandi bakire.

Icyumba kirimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga mu gihe bagiye kwita ku barwayi, kikaba ari icyumba gisa neza kandi gifite isuku.

Iki ni icyuma cyangwa se sikaneri, muri iki cyuma bakaba bashyiramo umurwayi urembye kikagaragaza indwara arwaye, abaganga na bo bakamenya aho bahera bamufasha.

Inzu cyangwa se inyubako iherereye i Remera mu Mujyi wa Kigali, akaba ari inzu icururizwamo imiti igiyie itandukanye, iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye, aha ufite ikibazo cy'ubuzima wahagana bakagufasha.

Ibi ni ibitaro ndetse n'inyubako ikaba iherereye mu karere ka Huye hafi y'ibitaro bya CHUB, ikaba ari inyubako nayo ivurirwamo abantu, abafite ibibazo baganayo bagahabwa ubufasha yitwa SANGWA POLYCLINIC.

Ibi ni ibitaro biherereye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye, bikaba ari ibitaro bya Kabutare, aho abarwayi bagana bagahabwa ubufasha bujyanye n'ubuzima.

Ni kwa muganga, hari imashini zifashishwa mu gusuzuma uko ubuzima bw'abarwayi bumeze, harimo igitanda, harimo n'ibindi bigiye bitandukanyekanya abaganga bifashisha.

Ikigo nderabuzima cya Kigina, kikaba kiri ahantu heza, hari umubyeyi ufite umwana akaba ari kuganayo kugira ngo ahabwe ubufasha akeneye bujyanye n'ubuzima.

Ni kwa muganga utubati turimo imiti igiye itandukanye ipfunyitse neza, iyi miti ivura indwara zitandukanye zibasira ikiremwa muntu.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha, hari abantu baje kwivuza bicaye hanze bategereje, aha kandi abantu bahagana bashaka serivise zijyanye n'ubuzima.

Ibi ni ibitaro by'umwami Fayisali biherereye i Kigali, bikaba ari ibitaro bikuru bitanga serivisi zijyanye n'ubuzima, abarwayi barembye cyane niho boherezwa bagafashwa kandi bagakira.

Ni ku bitaro, aha ni ku nzu cyangwa ku cyumba cy'ababyeyi, aho rero ababyeyi barembye n'abarwayi niho bagana, n'abatwite baganayo bagahabwa ubufasha.

Abaganga bari mu cyumba bambaye amataburiya yabugenewe ndetse n'uturindantoki, bari kureba neza ko imiti ikiri gukora neza itarengeje igihe.

Aba ni abaganga ba ekipe urabona ko ari umukinnyi wavunitse, bakaba bari kumuvura imvune agize kugira ngo akomeze akine.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, amaboko ye kamwe gafashe hasi akandi gafashe ku kaguru. Ni byiza ko dukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo dusigasire ubuzima bwacu.

Umugabo uri kunywa amazi nyuma yuko asobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri, akaba yicaye arimo araruhuka kugira ngo atekane neza.

Izi bazita ga cyangwa se uturindantoki mu rurimi rw'ikinyarwanda, tukaba twambarwa n'abantu kugira ngo turinde intoki indwara zitandukanye zishobora guterwa n'ibintu umuntu yaba yafasheho.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yahinnye akaguru kamwe akandi yakarambuye urabona ko ari ibintu byiza cyane kandi akaba anazi neza ko gukora siporo ari ibintu byiza ariyo mpamvu ari kuyikora.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aha akaba ari aho abantu bajya bagakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo bafashe imibiri yabo kumera neza no kugororoka.

Umusore ufite umupira, ukunze kwita balo mu ntoki, akaba agiye gukina, ndetse yanakorera imyitozo ngororamubiri, kugira ngo abungabunge anasigasire ubuzima bwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yasobanukiwe neza akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'ubururu n'ipantaro y'ubururu yarambuye amaboko arenda kuyahuza n'amaguru ye.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba ari kunywa amazi ubona ko abishishikariye. Ni byiza kuyanywa, natwe tugomba kuyanywa kugira ngo turinde ubuzima bwacu.

Aha ni kwa muganga mu cyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, hari igitanda abarwayi baryamaho mu gihe bari kubasuzuma, hari n'imashini ibasuzuma igihe bashaka kumenya ikibazo bafite.

Ga, uducupa turimo imiti, imikasi, ibipfuko. Ibi byose byifashishwa no kwa muganga basuzuma indwara zigiye zitandukanye cyangwa batanga ubufasha bujyanye n'ubuzima.

umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri urabona ko yasobanukiwe akamaro kayo akaba ahagaze yunamye igaragara igice cy'inyuma gusa cy'imbere kitagaragara neza Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, urabina ko asobanukiwe n'akamaro kayo akaba ahagaze yunamye, agaragara igice cy'inyuma gusa icy'imbere kitagaragara neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, byahinnye akaguru kamwe, kandi kararambuye, umugongo we yawuryamishije kuri tapi ya shashe hasi, iki ni igikorwa cyiza kandi gifasha umubiri kumera neza no kugira ubuzima buzira umuze.

Umusore uri kwigorora akora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri, urabona ko yasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ariyo mpamvu ari kuyikora.

Igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma ubuzima bw'abantu, bakaba abaganga bakigushyiramo bakareba indwara zose baba ufite mu mubiri, bakamenya aho bahera baguha ubufasha.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yarasobanukiwe akamaro kayo. Imbere ye hari igurude irimo amazi, amazi na yo ni ingenzi, akaba ariyo mpamvu ari buyifashishe.

Ibikoresho bitandukanye, harimo bande, harimo ibinini, harimo imakasi, harimo uducupa tw'imiti, ibi byose byifashishwa n'abaganga mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Iyi bayita uburankakari cyangwa agatanda karyamishwaho umuntu, utabasha kugenda, kugira ahabwe ubufasha, agezwa aho agomba kuvurirwa.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba yambaye ekuteri ari kumva umuziki, amazi ari kunywa akaba ari mu gacupa kandi akaba ari amazi y'uruganda rw'inyange.

Umusore ndetse n'inkumi bose barararamye bari kunywa amazi, basobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba ari yo mpamvu barimo baraywa, nibyiza ko natwe twakoresha amazi mu gusigasira ubuzima bwacu.

Umuntu wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba ari kunywa amazi kandi ubona ko abyishimiye. Ni byiza ko natwe twihatira kunywa amazi kugira ngo dufashe imibiri yacu kugira ubuzima buzira umuze.

Umugabo uri kunywa amazi asobanukiwe neza akamaro ko kunywa amazi, akaba ari yo mpamvu ari kuyanywa kugira ngo arinde umubiri we abashe no kugira ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa wambaye agasharupe mu ijosi k'umweru, akaba ari kunywa amazi ari mu igurude kandi akaba azi neza ko kunywa amazi ari ibintu byiza kandi bifitiye umubiri akamaro.

Amazi ni ingenzi mu buzima bw'umuntu, nkuko tubibona aha hari ishusho y'icupa ririmo amazi asa neza. Nibyiza ko twese tunywa amazi kugira ngo turusheho gufasha umubiri wacu gukora neza.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'umuganga, harimo ibisuzuma, harimo uturindantoki, harimo imikasi, harimo udupfukamunwa byose bikaba byifashishwa mu kuvura no kwita ku barwayi.

Umukobwa wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba ari kunywa amazi ari mu igurude. Ni byiza ko natwe twayanywa kugira ngo turinde ubuzima bwacu. Umukobwa yambaye agasharupe k'umweru n'agasengeri karimo mu ibara ry'ubururu, umweruru, icyatsi.

Umukobwa wasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari gukora iyo myitozo, akaboko kamwe yagashyize inyuma mu bitugu akandi ku nkokora hejuru yambaye na ekute.

Amoko y'imbuto agiye atandukanya urusenda rwa piripiri, imineke, pome, irongi indimu byose bikaba bitanga intungamubiri zihambaye ku buzima bw'umuntu.

Umusore wagize ikibazo cy'imvune mu ivi, yishyizeho agakoreshwo kabugenewe ku ivi, kazana ubukonje kakagabanya uburibwe, kugira ngo yumve amerewe neza.

Umukobwa uri gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri, akaba yunamye amaboko yombi yayafatishije ku kaguru kamwe akandi kaguru yagahinye.

Udukoresho tugiye dutandukanye, udukarito turimo imiti, imakasi ,ibipfuko ibi byose byifashishwa n'umuganga mu gihe ari gutanga serivisi zijyanye n'ubuzima.

Uturindantoki, korogati, umuti uvura indwara z'uruhu, bande bapfuka, udukarito turimo imiti, byose byifashishwa n'abaganga bavura indwara zitandukanye.

Ni kwa muganga, hari umurwayi urembye, araryamye yubitsa inda, umuganga arimo aramusuzuma yikoresheje ibyuma byabugenewe nk'imashini ndetse n'ibindi.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, akaba ari kunywa amazi kugira ngo afashe umubiri we kumera neza. Ni byiza ko natwe twanywa amazi tukarushaho gusigasira ubuzima bwacu.

Udukarito tw' imiti, ibinini, imikasi, ibipfuko, bishushanyo by'abantu, amayekuteri, byose bikaba ari ibikoresho, ushobora gusanga mu maduka, cyangwa se kwa muganga.

Imiti igiye itandukanye iri mu dukarito dufunze neza iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye abarwayi baba barwaye.

Udukarito turimo imiti n'ibikoresho byifashishwa n'abaganga, ndabonamo bande bifashisha bapfukama abantu, ibi byose bikaba byifashishwa mu kwita ku buzima bw'abantu.

Imbuto zitandukanye amagi, inyama, amashu, urusenda, imyembe, ibi byose byifashishwa n'umuntu umaze gukora siporo hari n'ibikoresho by'abakora siporo, iyo ubikoze ukarya n'izi mbuto umubiri wawe umera neza.

Udukarito turimo imiti igiye itandukanye ndetse n'uducupa, iyi miti imyinshi muri yo ikorwa mu bimera, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi meza, akaba ari kunywa amazi kugira ngo asigasire ubuzima bwe, yambaye n'isaha, amazi ari kunywa ari mu gacupa.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi, anasobanukirwa akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, urabona ko umubiri we umeze neza nta kibazo afite kubera kunywa amazi no gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni imashini cyangwa sikaneri, aha bashyiramo umurwayi iyi mashini igasuzuma indwara arwaye zose ikamufasha na muganga akamenya uko amufasha.

Umukobwa wasobanukiwe akamaro ko gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwigorora yambaye n'iyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, ni byiza ko natwe twazikora mu rwego rwo kurinda ubuzima bwacu.

Umusore wasobanukiwe akamaro ko kunywa amazi ari kunywa amazi meza ari mu gacupa gakorwa n'uruganda bita inyange, yambaye ekuteri ari kumva umuziki.

Agacupa karimo umuti, uyu muti ukaba uko mu kimera bita umuravumba. Umuravumba ukaba wifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura abantu.

Iki ni ikimera gifite amababi manini. Iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, kandi iyi miti ikorwamo ikavura indwara zigiye zitandukanye.

Ni isoko ririmo abantu benshi, hano hari umuntu uri gucuruza imiti yo mu ducupa, hari n'imbuto ari gucuruza. Ibi byose bifasha ubuzima bw'umuntu kumera neza.

Ibimera bitandukanye biri mu dufoto tugiye dutandukanye hari ibifite indabo n'ibifite imbuto, ibi byose byifashishwa bakora imiti ndetse bakorana n'intungamubiri zitunga abantu.

Uducupa dufite imifuniko itandukanye umweru, umutuku tukaba dupfunyitsemo imiti, ikorwa mu bimera, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye.

Ishyamba ririmo amoko y'ibimera agiye atandukanye, harimo ibiti byinshi. Ibimera bimwe muri ibi byifashishwa mu gukora imiti igenda ivura indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito, tukaba turimo imiti ikorwa mu bimera, iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zibasira ubuzima bw'abantu.

Uyu ni umuravumba ukaba uteye ahantu mu isambu, umuravumba ukaba wifashishwa nk'ikimera gikorwamo imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Agacupa karimo umuti ukorwa mu kimera bita igikakarubamba. Igikakarubamba akaba ari ikimera cyiza kandi gifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba, umuravumba, n'ibindi bimera, byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye itandukanye.

Ikimera gifite amababi n'amashami biri hejuru mu kirere, amababi y'iki kimera akaba yifashishwa mu gukora imiti gakondo igenda ivura indwara zigiye zitandukanye.

Agacupa kari mu ibara ry'umweru, kakaba kandiditseho Foreva bi poleni agacupa kakaba karimo imiti ikomoka ku nzuki yifashishwa mu buvuzi.

Umuti uri mu gakarito ukorwa mu gikakarubamba, ukaba ari umuti ushobora gukoreshwa mu kuvura indwara zo mu kanwa ushyirwa ku buraso ukabukoresha wiboroza.

Ikimera gisa neza kiri mw'ibara ry'icyatsi kibisi ikimera cyifashishwa mu gukora imiti giye itandukanye kandi iyo miti ikavura indwara zitandukanye zifata abantu.

Ikimera kikaba cyifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya kinyarwanda, ivura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu cyane cyane inzoka zo mu nda ndetse n'izindi.

Ni igikorwa cy'ubuhinzi, aha hakaba hari abantu benshi baje kureba ahahinze hiki gihingwa cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye kubera ko gikorwamo imiti.

Imiti itandukanye ikorwa mu gikakarubamba iyi miti ikaba ikorwa n'uruganda bita foreva ikabi isukura amenyo ikarwanya n'indwara zo mu kanwa.

Uducupa ndetse n'udukarito, tukaba turimo imiti ikorwa mu bimera, iyi miti ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa n'udukarito turimo imiti, hakaba hari umuntu uri kuyicuruza. Iyi imiti ikorwa mu bimera, kandi ikavura indwara zitandukanye. Ishobora kuvura abantu, cyangwa se amatungo.

Amoko y'ibinini biri mu ibara ry'icyatsi kibisi, ibi binini bikaba bikorwa mu bimera kandi bikaba bivura indwara zitandukanye zibasira abarwayi.

Iyi ni tangawizi akaba ari ikimera cyera mu butaka kikaba kivura indwara zitandukanye ya inkorora yaba ibicurane ndetse n'izindi.

Agacupa kari mu ibara ry'icyatsi n'umufuniko w'umweru karimo umuti ukorwa mu kinera bita igikakarubamba, uyu umuti ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Umuti ukorwa mu bimera ukabavura kurangiza vuba, gucika intege, gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate, akaba ari umuti uri mu gacupa k'umweru.

Ikimera gifite indabo z'umuhondo, iz'umutuku iz'umweru. Iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti iyi miti nayo ivamo ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa dutatu duteretse ahantu hafite isuku, utu ducupa turimo imiti, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Abantu baje gusura igihingwa cy'igikakarubamba, iki gihingwa kikaba gikorwamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi bifite n'uturabo tw'umweru bimwe muri ibi bimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, ivura indwara zibasira abantu.

Agacupa karimo umuti, uyu muti ukaba ukorwa mu kimera bita igikakarubamba iki kimera kikaba gikorwamo imiti yaba ivura indwara zo mu nda, iz'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye.

Amoko y'imiti iri mu ducupa, iyi miti ikaba ikorwa mu bimera, ikaba yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zigiye zitandukanye yaba iz'abantu cyangwa se inyamanswa.

Uducupa turimo imiti, iyi miti ikaba ikorwa mu bimera. Iyi miti kandi yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Iki ni ikimera gifite uturabo dusa iroza, ikimera kikaba cyitwa igitovu, kiba gifite amahwa yifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda, ivura indwara zitandukanye.

Iki ni ikimera gifite amababi ari mu ibara ry'icyatsi. Amababi akaba yifashishwa mu kuvura no gukora imiti igiye itandukanye.

Indimu ikatiye mu gakombe k'umweru, hari na tangawizi, ibi iyo ubivanze ushobora gukora umuti wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Iki ni ikimera kiri ahantu iruhande rw'ibindi biti, kikaba cyitwa umusave. Umusave ushobora gukorwamo imiti, ishobora gukorwamo imbaho, ushobora kwifashishwa nk'inkwi ni ingirakamaro.

Agacupa, kari mu ibara ry'umweru kandiditseho ijambo, royo jeri, akaba ari agacupa karimo imiti ikorwa mu bimera yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Amoko y'imiti ifunduye mu ducupa twabugenewe, iyi miti ikaba ikorwa mu bimera, ibimera twavugamo nk'igikakarubamba, imiravumba n'ibindi, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ipera, tungurusumu, ubunyobwa, ibimera, utudodo, agasekuru, ibi byose byifashishwa bakora imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Udukarito turimo imiti, iyi miti ikaba ikorwa mu kimera bita igikakarubamba, ikimera gikorwamo imiti ivura indwara zitandukanye yaba iz'uruhu, yaba inzoka zo mu nda ndetse n'izindi zigiye zitandukanye.

Ikimera, iki kimera kikaba kirandaranze kandi iki kimera cyifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye nk'inzoka, indwara z'uruhu ndetse n'izindi.

Uducupa turi mu mabara atandukanye umukara, umweru, hakaba hari uturimo ubuki, twose twifashishwa haba mu gutanga intungamubiri zitunga umubiri, ndetse no kuba byavura kuko ubuki ni umuti.

Amoko y'ibimera bitandukanye, hari afite imbuto, hari afite uturabo tw'umweru, ubururu, iroze, ibi bimera byose iyo bihujwe bigasekurwa bikavangwa bikorwamo umuti mwiza cyane. Uvura indwara zikomeye.

Iki ni ikimera gifite amashami n'amababi menshi akaba ari ikimera bita umuravumba ukaba ukomo imiti igiye itandukanye ivura indwara zitandukanye.

Ibiti byinshi byagabye amashami hejuru mu kirere, bifite amababi, ibi biti amababi yabyo amwe akaba yifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Ibikombe by'ibirahure bibiri, bikaba birimo amababi y'ibimera. Ibi bimera byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya kinyarwanda ivura indwara zibasira abantu.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye, arimo igikakarubamba, harimo imiravumba, ndetse n'ibindi, ibi byose bikorwamo imiti ya kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Udukarito dutandukanye turi mu mabara agiye atandukanye inanasi, tumwe turimo imiti utundi turimo intungamubiri, byose bikaba bifasha umubiri kumera neza.

Uducupa dutandukanye duteretse ahantu hasa neza, turi mu mabara agiye atandukanye, turimo imiti igenda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, ndetse no gutanga ubuzima bwiza ku bantu.

Uducupa turi mu mabara atandukanye, icyatsi, ubururu, umweru, tukaba turimo imiti ikorwa mu bimera bigiye bitandukanye, ikaba ivura indwara zitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye twanditseho forever body care utu ducupa tukaba turimo imiti ivura indwara zitandukanye zijyanye n'uruhu.

Uducupa duteretse ahantu heza akaba ari uducupa twifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ikaba ari imiti ndetse n'ubuki.

Ibimera bitandukanye, hari ibifite amababi manini, hari ibifite uturabyo, byose bikaba byifashishwa mu gutanga no gukora imiti.

Ikimera cyiza cyane gitoshye, ikimera amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ya kinyarwanda, igenda ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umugore uri gusoroma amababi y'ikimera, aya mababi akaba agiye kuyakoramo umuti ari bwifashishe yivura indwara zitandukanye.

Ikimera gifite amashami n'amababi manini kikimera kikaaba gikorwamo imiti ya kinyarwanda ivura indwara zigiye zitandukanye zibasira abantu.

Ikimera gitoshye cyane, iki kimera gifite amababi maremare, iki kimera kandi cyifashishwa mu buvuzi bw'imiti ndetse no gukora imiti igiye itandukanye, ivura indwara zitandukanye.

Iki ni ikimera, ikimera akaba ari umuravumba wifashishwa bavura indwara zigiye zitandukanye zikunze kwibasira abantu, ni byiza rero kugitera ahantu hose kuko umuti igihe cyose uhora ukenewe.

Uducupa ndetse n'udukarito tugiye dutandukanye, turimo imiti ikorwa mu bimera urugero rw'igikakarubamba, iyi miti ikaba ivura indwara zitandukanye.

Umuti ukaba ari umuti upfunyitse neza, ukaba ari umuti kandi ukorwa mu bimera, uvura indwara zitandukanye, tukaba duteretse ahantu ku kibaya.